Hano hantu hateretse ibikoresho bine by'ubwoko butandukanye. Hariho ibidomora birimo imiti itandukanye， hariho n'amacupa abiri y'ubwoko butandukanye， byose bivura indwara zitandukanye.

Ibi ni ibishingwe. Ibishingwe babijyana kubifumbiza imirima myinshi itandukanye maze imirima igatanga umusaruro mwiza cyane kuko iba yarafumbiwe.

Hano hariho inkoko eshatu. Izi nkoko eshatu ziriho imbuto z'indobanure. Hariho kandi na amverope umunani. Izi amverope umunani harimo na zo imbuto z'indobanure.

Aya ni amacupa. Aya macupa yose hamwe ni abiri arimo imiti z'ubuhinzi. Iyi miti bayitera mu myaka iyo yamaze kumera. Hanyuma agronome ni we utanga inama z'uburyo bazitera mu myaka.

Uyu ni umurima. Muri uyu murima hahinzemo imyaka. Muri iyi myaka harimo umuntu uhetse ikidomoro kirimo umuti, ari gufuhira iyi myaka.

Uyu ni umurima, muri uyu murima hahinzemo imyaka, muri iyi myaka harimo umuntu uri gutera umuti, iyi myaka nimara kwera bazabona ibyo barya maze babone n'ibyo bajyana ku isoko.

Hano hantu hacururizwamo imiti y'amatungo y'ubwoko bwinshi butandukanye:hari n'imiti iri mu madobo, harimo imiti iri mu macupa kandi iyi miti irambitse mu ma etageri asa n'icyatsi.

Ubu ni ubworozi, ubworozi buba hejuru y'amazi, bubaka ibiraro mu mazi neza, hanyuma bagashyiraho ibitanda mu mazi, hanyuma amatungo akaba muri ibyo biraro byubatse mu mazi.

Aya ni amafi, amafi yorororerwa mu mazi, iyo aavuye mu mazi aba yarangije ubuzima bwayo. Amafi ni ikiribwa cyiza cyane abakiriye bagira ubuzima bwiza.

Aya ni amafi, amafi yorororerwa mu mazi, iyo avuye mu mazi ntaba agifite ubushobozi bwo kubaho. Amafi ari ku isahani bagiye kuyateka, amafi ni meza cyane agira intungamubiri ku buzima bw'abantu.

Aba ni abarobyi. Ni abarobyi baroba amafi， bafite agatanda barobesha amafi， kandi ku gatanda hariho amafi. Aba bantu ni abagore n’abagabo bari kuroba amafi.

Hano hantu harambitse amafi, aya mafi ntabwo akiri mu mazi ahubwo yapfuye kuko aya mafi yapfuye, amafi iyo umuntu ayariye agira ubuzima bwiza buzira umuze.

Aya ni amafi, amafi ni ubworozi bwororerwa mu mazi. Iyo yavuye mu mazi ntabwo aba agifite ubushobozi bwo kuyabeshaho. Amafi atanga umusaruro mwiza kuko atuma abantu bagira ubuzima bwiza kandi agatanga amafaranga mu rugo.

Iki ni icyuzi, iki cyuzi bacyororeramo amafi, kandi ku ruhande akenshi bakunda kuhubaka ikiraro cy'amatungo magufi, nk'inkwavu kugira ngo ifumbire yazo bayishyire mu cyuzi, maze amafi abone ibyo arya, maze atange umusaruro ushimishije.

Umurima ni munini cyane. Wasaruwemo n'imyaka myinshi cyane, ku buryo abahinzi babonye ibyo barya, kandi bakabona n'ibyo basagurira amasoko.

Uwo ni umurima, uwo murima uhinzwemo imyaka, y'ubwoko bwinshi butandukanye, uhinzemo insina, uhinzemo ibiti by'isombe, uhinzwemo ibisheke, uhinzwemo n'ibigori.

Uyu muririma bawuhinzemo insina, insina iyo zikorewe neza zikitabwaho zitanga umusaruro mwiza cyane, abahinzi babona ibyo barya, maze bakabona n'ibitoki bajyana ku isoko.

Uyu ni umurima, uwo muririma urimo ibyatsi, urimo n'ibigorigori, hateyemo n'igiti, hirya yawo hariho ishyamba ry'ibiti bikeya.

Ibihaza bidakorewe neza ntabwo bitanga umusaruro ushimishije, ahubwo ibihaza bikorewe neza nibyo bitanga umusaruro mwiza ushimishije.

Uyu murima wasaruwemo ibigori, uyu murima inyuma yawo haragaragara imisozi miremire yitwa ibirunga, bijya gusurwa n'abakerarugendo bagatanga amadovize.

Aha hantu hariho amazu ahubatse. Iruhande rw'aya mazu hariho igiti kinini cyane. Iki giti kiramutse kiguye cyakwangiriza aya mazu agahirima.

Ubwo murima urimo ibitsinsi by'insina byinshi cyane ku murima， kandi urimo ibyatsi hirya y’umurima hariho insina， hubatseho n'utuzu dutoya dushaje.

Umurima uhinzwe neza ku buryo bwa kijyambere, utanga umusaruro mwiza, maze mu rugo bakabona ibyo kurya, kandi bakabona n'ibyo basagurira amasoko, bakabona amafaranga.

Iri ni ishyamba, iri shyamba ry'intufe iyo urikoreye neza ukaryitaho ritanga umusaruro mwiza kuko ubajishamo imbaho ugakuramo inkwi zo gucana, ugakuramo n'amakara kandi ugakuramo n'amafaranga yo kwifashisha.

Ubu ni ubuhinzi bw'amashyamba. Amashyamba iyo akorewe neza akitabwaho, atangaga umusaruro mwiza cyane. Avamo imbaho, akavamo n'inkwi zo gucana maze akazana amafaranga.

Uwo ni umurima. Uwo murima ni munini cyane, nta kintu uwo muririma uhinzemo. Hakurya y'uwo murima hariho ishyamba rinini cyane, imbere hariho n'ibiti bikiri bigufi.

Uwo muririma uhinzemo ubwatsi, ubu bwatsi nibumara gukura bazabutemera amatungo maze aburye. Hirya y'ubwatsi hariho insina zihinze kijyambere, zimeze neza zizatanga umusaruro cyane.

Uy murima munnini cyane, uyu murima bawuhinzemo imyaka ,niyera neza bazabona ibyo kurya byinshi bihagije ,kandi bazabona ibyo basagurira amasoko.

Uyu muntu ahagaze mu murima, afite isuka ifite umuhini muremure, muri uwo murima aho uhinzemo imyaka, uyu muntu agiye guhinga.

Iri ni isoko bacururizwamo intono zo kurya ,acuruzwagamo amashyaza yo kurya, hacururizwamo indimu ,hacururizwamo amavuta yo kurya harimo n'ibigori bibisi bacururizamo.

Iyi ni imyaka. Iyi ni imyaka y'ubwoko butandukanye harimo amateke. Amateke yerera mu butaka hasi, harimo n'ibihaza. Ibihaza byo birarandaranda maze bikerera hejuru y'ubutaka.

Uyu muntu ari mu murima w'icyayi, uyu murima ni munini cyane ari gusoromera icyayi mu gitebo. Igitebo aba agihetse ku mugongo, kugira ngo bimworohere asorome icyayi ari gushyira mu gitebo.

Aha hantu hahinze ipapayi, iyi gipapayi ifite imbuto nyinshi, muri izo mbuto harimo izisa n'umuhondo zeze, hari n'izindi zigiye gusa n'umuhondo zenda kwera, hariho n'izindi zigisa nk'icyatsi zitari zera.

Aha hantu harimo ibihingwa by'imbuto z'ubwoko butandukanye harimo: amatunda, harimo indimu ,harimo cokombure harimo, pome ,harimo n'imifuka iteretse irimo izindi mbuto zitandukanye.

Ibi ni ibiribwa biribwa babyita imiteja. Iyi miteja itondetse ahantu, ntabwo bayiryamo intonore, ahubwo bayiryamo imiteja gusa zikaba ari imboga.

Hano ni mu murima, muri uyu murima harimo abahinzi bejeje imyumbati, izi myumbati zeze neza cyane, zatanze umusaruro mwiza ushimishije.

Mri uyu murima hahinzwemo igihingwa cyitwa puwavuro, puwavuro ni igihingwa kiribwa mu bwoko bw'ibirungo, iyo yahinzwe neza yatanga umusaruro mwiza cyane, kuko ijyanwa ku isoko bakabona n'amafaranga.

Uyu ni umurima w' ibirayi. Uyu muhinzi abagarira ibi ibirayi kugira ngo bikure neza maze bitange umusaruro, kandi nyuma yaho agashyiraho n'ifumbire agatera n'umuti kugira ngo bidapfa.

Aha hantu hari gukorerwa imirimo itandukanye; hariho umugore uri kotsa ibigori ku imbabura, hari n'undi mugore uri gupfundura umufuka, hari undi mugore uri hirya urikonsa umwana wegeranye n' undi mwana, hari n' indobo y'umutuku.

Aba bantu bari mu murima bari gusarura imbuto zitwa wotameloni, wotameloni ni igihingwa cyiza. izi mbuto iyo uziriye ugira ubuzima bwiza buzira umuze. Wotameloni kandi zitanga amafaranga.

Iki gihingwa cyitwa imyumbati iyi myumbati ni myiza cyane, kuko hariho ubwoko butandukanye bw'imyumbati, hariho imyumbati barya bayitetse hariho n'izindi myumbati barya bayikozemo ubugari.

Uyu ni umurima, uyu murima wezemo igihingwa cyitwa ikinyomoro. Iki gihingwa ni igihingwa cyiza cyane kuko ni urubuto iyo abantu baruriye bagira ubuzima bwiza. Iyo kandi rweze neza cyane babona imbuto barya bakabona n'izo bajyana ku isoko.

Hano hantu hariho imyaka, iyi myaka iri mu mifuka y'umweru ifite amabara y'umutuku. Iyi myaka iri mu mifuka hariho n'indi iri has.i

Uyu ni umuririma w'ubuhinzi, harimo umuntu urimo ari kuvomerera imyaka irimo, hirya y'iyi myaka ari kuvomerera, hariho n'insina nyinshi za kijyambere.

Uyu ni umurima uhinzemo igihingwa cyitwaga icyayi. Aba bantu uko ari batatu bari gusoroma icyayi, bari kugisomerara mu gitebo. Buri wese afite igitebo cye, ari gusoromeraramo.

Aya ni amateke, aya mateke yitwa amabyayisi, amabyayisi akunda guhingwa mu gishanga, iyo yahinzwe neza akitabwaho atanga umusaruro mwiza cyane, maze akajyanwa no ku isoko bakabona n'amafaranga.

Uyu ni umusaruro wo mu bworozi. Aya magi avuye mu nkoko zorowe. Iyo wazigaburiye neza ibiryo byiza, bitandukanye zitanga umusaruro mwiza ushimisha.

Uyu murima w'ubuhinzi ni uw'ibitoki. Ibi bitoki byeze neza cyane kuko ni binini. Bazabijyana ku isoko, maze babone amafaranga menshi cyane ashimishije.

Iki ni igihingwa cyitwa igihaza, igihaza ni igihingwa batera bateye uruyuzi, uruyuzi ruraranda hanyuma rukazakura rukabyara igihaza kinini.

uwo murima uhinzemo urubuto rwitwa ikinyomoro, ikinyomoro ni urubuto rwiza cyane iyo umuntu akiriye agira ubuzima bwiza cyane, ikinyomoro gitanga amafaranga.

Ivoka ni imbuto nziza abantu benshi bakunda guhinga cyane, kuko iyo zeze neza zitanga umusaruro mwiza ushimishije, maze zikinjiza amafaranga menshi mu rugo.

Kino ni igihaza, igihaza ni igihingwa giterwa uruyuzi. Uruyuzi rugakura rukarandaranda rugatera ibihaza, ibihaza barabirya kandi bakabijyana no ku isoko.

Uyu murima ni munini cyane, urahingwamo n'abahinzi bane. Bazahingamo imbuto, maze nibasarura, basarure umusaruro ushimishije babone ibyo kurya kandi basagurire n'amasoko.

Uyu muntu uri mu murima yambaye umupira w'icyatsi yambaye n'igitambaro mumutwe cy'umuhondo. Afite n'agasakoshi, ari kubagara. Harimo na avoka muri uwo umurima.

Hano ni mu murima muri uyu murima hateyemo imboga, muri uyu murima uri rw'imboga harimo abantu barimo bari kwiga hahagaze n'umuntu uri kubigisha. Uwo murima w'imboga uhinze neza kijyambere ziteye ku murongo.

Uyu ni umurima, uyu muririma ni munini cyane, uhinzemo ibigori, ibi bigori babihinze ku murongo mu buryo bwa kijyambere, uyu umurima niwera bazabonamo ibigori byo kurya, maze babone n'ibyo bajyana ku isoko binjize amafaranga.

Uwo ni umurima w'imyaka. Uyu muntu yikoreye umufuka w'imyaka avuye gusarura. Inyuma ye hariho abandi bantu bari gusarura iyi myaka.

Uyu murima uhinzemo urubuto rwitwa umwembe, umwembe uracyari muto cyane niwitabwaho uzatanga umusaruro mwiza ushimishije.

Uyu ni umurima w'ibigori, umurima w'ibigori umeze neza cyane, urashimishije, uzatanga umusaruro mwiza cyane, babone ibyo kurya maze babone n'ibyo kujyana ku isoko.

Aha ni mu murima, muri uyu murima urimo abantu benshi, muri aba bantu benshi imbere yabo harimo abandi bantu bari kubigisha uburyo bwo guhinga imbuto ku buryo bwa kijyambere.

Uyu murima uhinzemo imbuto. Izi mbuto bazita imyembe. Iyi myembe yareze neza cyane, kuko buri giti gifite imbuto nyinshi cyane bazabona iyo barya, babone n'iyo gusagurira mu isoko.

Hano hantu muriuwo murima, hariho ihene nyinshi cyane. Izi hene nziza cyane ziragaragara ko zorowe kuburyo bwiza bwa kijyambere, izi hene ni nziza zifite n'amahembe maremare, izi hene zifite amabara atandukanye.

Uno ni umurima, uhinzemo imyaka. Iyi myaka bayita inyanya. izi nyanya, harimo izitukuje zisa n'umutuku. harimo n'izitaratukura. Uyu muntu urimo, ari kuzisarura, izitukuye maze akazijyana mu rugo.

Ubu ni ubuhinzi bw'indabyo zitandukanye. indabyo iyo zihinze ahantu uba ubona ari nziza cyane. Iyo ziri kugo uba ubona zigize urugo neza rushimishije. Indabyo kandi iyo zihinzwe neza ziragurishwa, bakabona amafaranga.

Muri iki kiganza cy'uyumuntu kirimo ibishyimbo, ibi bishyimbo babiryamo imiteja gusa, mu bigaragara ibishyimbo byakuze neza byatanze umusaruro mwiza bishimishije.

Hano hariho igihingwa cyitwa inyanya, izi nyanya zirimo imirwi itatu, izi nyanya uko ari imigwi itatu, hariho iziri ku mufuka hariho n'izindi ziri mu ibasi.

Uyu ni mu murima w'ibigori， uyu murima，uyu muhinzi ari kureba ko byeze， mu bigaragara ibigori botswe neza， babihinze kijyambere，bizatanga umusaruro mwiza ushimishije.

Uyu murima urimo imyaka y'ubwoko bubiri, iyi myaka harimo ibishyimbo, ibishyimbo ni byiza cyane, bihinzwe ku buryo bwa kijyambere, harimo n'ibigori, bihinzwe ku buryo bwa kijyambere.

Uyu ni umurima uhinzemo imboga, uyu muhinzi ari kubagarira izi mboga, izi mboga iyo zeze bajya kuzirya izindi bakazijyana ku isoko, maze bakabona amafaranga yo kugura ibindi bintu bakenyeye.

Uyu ni umurima, uyu murima ni munini cyane bawuhinzemo ibigori byinshi cyane. Abahinzi bazabona ibigori byo kurya , maze babone n'ibindi bigori byo kujyana ku isoko.

Izi ngemwe z'ibiti zagemetswe ahangaha muri pepiniyeri, ziragaragara ko niziterwa neza, zizatanga umusaruro mwiza ushimishije.

Iki gihingwa cyitwa karoti, karoti ni imboga nziza cyane kuko zibamo n'umuti, zivura amaso, kuko iyo umuntu aziriye ari mbisi amaso ye ntabwo akundaga guhuma.

Uwo ni umurima, uno muririma uhinzemo ibiti by'avoka izivoka ziri kwera, zifite imiteja myinshi cyane, nizera azabona izo barya abone nizo bajyana ku isoko.

Ike ni igihingwa, iki gihingwa cyitwa amacunga, amacunga ni imbuto zerera mu giti hejuru, amacunga ni imbuto zitanga amafaranga kandi zigatanga nub'ubuzima bwiza ku bazirya.

Izi mbuto zitwa imyembe. Imyembe n'imbuto nziza cyane. Iyo zahinzwe neza zitanga umusaruro mwiza ushimishije, maze abantu bazihinze bakabona izo barya, bakabona n'izo bajyana ku isoko.

Iyi nzu ni mu cyikoni, muri iki cyikoni harimo ibiryo by'ubwoko butandukanye harimo: inyanya, harimo isupu, harimo inyama, harimo n'amafiriti apfundikijwe isahani, harambitseho na rushe ku ruhande rwayo.

Uyu ni umurima w'ibigori. Uyu murima w'ibigori umeze neza cyane, urashimishije. Bawuteye neza ku murongo, bawuhinze kijyambere.

Aba bantu bahagaze mu murima, uyu murima uhinzemo insina nyinshi aba bantu kandi mu bigaragara harimo n'abayobozi bari kubakoresha inama, uyu muririma urimo n'ibitoki bigiye kwera.

Hano ni mu murima, uyu murima uhinzemo igihingwa cyitwa inyanya. Izi nyanya zimeze neza zifite n'uruyange ruri kuza. Izi nyanya mu minsi mikeya zizatanga umusaruro mwiza ushimishije.

Hano mu isoko . Muri iri soko harimo ibicuruzwa bitandukanye: harimo imbuto z'ubwoko bwinshi butandukanye ,harimo ibinyomoro ,harimo pome hari wotameloni, harimo amaronji , harimo imbuto nyinshi cyane zitandukanye.

Uwo murima ni uw'urutoki. Muri runi rutoki hezemo igitoki cyitwa goromisheri. Iyi goromisheri ni igitoki baryamo imineke gusa.

Muri iyi ndobo harimo imbuto nziza cyane zigiye zitandukanye. Izo mbuto harimo kokombure, harimo pome, harimo n'amacunga. Izi mbuto zitanga umutobe mwiza cyane.

Hano hantu muri uyu murima hahagaze abantu benshi cyane, abantu benshi bose bafite imifuka irimo imbuto zo guhinga, imbere y'abantu harimo umuntu uri kubigisha.

Hano ni ku isoko, iri soko batandikamo imbuto z'ubwoko bwinshi butandukanye, habamo: imifungo z'ibinyomoro, imifungo z'imineke, imifungo z'indimu, n'imifungo z'inanasi.

Hano hantu harimo ibiribwa by'ubwoko butandukanye. Harimo intoryi barya, harimo ikiribwa cya pwavuro bakoresha ibirungo, harimo n'inyanya zikora isose, harimo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Iki gihingwa kiri muri iyi mifuka bacyita ibirayi. Ibi birayi biri mu mifuka ine. Ibi birayi bimeze neza cyane. Byitwa Kinigi.

Aha hantu hariho ubwoko bw'ibiribwa butandukanye, harimo imiteja, powavuro, indimu n'intoryi. Ibi biribwa ntabwo bimeze neza cyane ntabwo byatanze umusaruro ushimishije.

Ibintu turi kubona hano ni ibiribwa ibi biribwa babyita amateke, aya mateke kandi turi kubona hano arahingwa, aya mateke araribwa amateke kandi bayajyana ku isoko bakabona amafaranga.

Izi ni ihene. izi hene ni ebyiri， izi hene uko ari ebyiri， zororerwa mu kiraro， izi hene uko ari ebyiri， bajya kuzahirira ubwatsi bakazizanira，zikarira mu kiraro. Ikiraro k’izi hene， cyubakishije ibiti.

Uyu murima uhinzwemo igihingwa. Iki gihingwa cyitwa indimu. Izi ndimu zimeze neza cyane zatanze umusaruro ushimishije. Indimu n'imbuto nziza zigira umumaro mwinshi cyane, zivura indwara zitandukanye.

Hano hantu harambitse igihingwa cyitwa igihwagari, iki gihingwa cyeze neza, kuko gifite imbuto nziza nini, iki gihingwa kivamo amavuta yo kurya.

Uyu ni umurima w’ibishyimbo. Ibi bishyimbo biracyari imiteja ntabwo byari byera. Ariko umurima w'ibishyimbo numara kwera neza， bazasarura， maze babone ibyo barya，kandi babone n'ibyo bajyana ku isoko.

Aya mashaza yahinzwe mu buryo bwiza, yabonye ifumbire ihagije, ku buryo azatanga umusaruro mwiza ushimishije, bagasagurira n'amasoko.

Ubunyobwa bwahinzwe neza ku buryo bwiza bwa kijyambere butanga umusaruro mwiza, maze umuhinzi akabona ubwo kurya kandi akabona ubwo asagurira amasoko akabona amafaranga.

Hano ni mu murima. Uwo murima uhinzemo imbuto zifite ibara risa guca ntago zikunda kuboneka ahantu henshi cyane, ahubwo zigira ahantu h'umwihariko zikunda kwera.

Uyu murima uhinzemo amajeri. Aya majeri afite umusaruro mwiza ushimishije. Aya majeri aracyari urunyogwe. Namara kwera azatanga umusaruro mwiza maze babone ibyo barya, babone n'ibyo bajyana ku isoko.

Bino bigori birambitse hano ni byiza cyane. Bifite amabara meza, ashimishije asa n'umuhondo. Byeze neza bifite umusaruro mwiza ushimishije.

Uyu musaruro w'ibigori ni mwiza cyane, urashimishije, wahinzwe neza ku buryo bwa kijyambere, ufite amabara meza abereye amaso.

Uyu murima ni uw'igishanga. Uyu murima uhinzemo ibihingwa byitwa umuceri. Umuceri ni igihingwa gikunda guhingwa mu gishanga, kuko gikunda amazi kugira ngo gikure neza.

Uwo ni umurima w'amajeri uwo murima uhinzwe mu buryo bwa kijyambere, ahinze ku murongo amajeri azatanga umusaruro mwiza ushimishije, babone ibyo barya babone n'ibyo bajyana ku isoko.

Uwo ni murima w'ubunyobwa. Ubu bunyobwa babusaruye, buracyari mu murima, ariko barabujyana mu rugo babutonore, babone ubwo barya, bagire n'ubundi bajyana ku isoko.

Iki gihingwa cyitwa ubunyobwa. Ubunyobwa n'imbuto zerera mu butaka, ubunyobwa babutekamo isosi, ubunyobwa kandi barabukaranga bakaburya bukaranze.

Hano ni mu murima, muri uyu murima basaruyemo imyaka, iyi myaka bayishyize ku mahema maze barayihura, barangije bayisuka mu mifuka, mbere yo kuyisuka mu mifuka bari kubanza kuyigosora.

Hano hariho inyubako inyubako bayita ikigega, ikigega bacyubakisha ibiti n'imbingo, ikigega bagisakazaga ibikenyeri mu muco wo hambere bagihunikagamo imyaka y'ubwoko butandukanye.

Uwo ni umurima w'amajyeri, uwo muririma w'amajyeri ni wera uzatanga umusaruro mwiza cyane, maze abahinzi babone ibyo kurya babone n'ibyo kujyana ku isoko.

Hano mu uyu murima hahinzemo ibigori, ibigori bimeze neza cyane byahinzwe kijyambere, bizatanga umusaruro mwiza ushimishije maze abahinzi babone ibyo barya babone n'ibyo kujyana ku isoko.

Ahahantu harambitse imyaka. Iyi myaka bayita amasaka. Amasaka ni amahundo barayahura bamara kuyahura bakayagosora maze bakayanywamo igikoma cyangwa bakayinika bakazayanywamo umusururu.

Iyi mifuka ni myinshi cyane irimo imbuto z'indobanure abahinzi bazahinga igihe cyo guhinga kigeze, maze zitange umusaruro ushimishije.

Aha ni mu rugo muri runo rugo bari kuhahuririra imyaka, iyi myaka bari kuyihurira ku mahema, abantu bari bari guhura iyi myaka bafite ibibando, bambaye na bote, kandi bafite n'imbaraga.

Uwo ni umurima. uUwo muririma ni munini cyane . uhinzemo igihingwa cyitwa igihwagari. igihwagari iyo cyeze neza, gitangaga umusaruro mwiza bishimishije. igihwahagari kivamo amavuta meza cyane.

Ubu ni ubunyobwa， ubunyobwa iyo buhinzwe neza， butanga umusaruro mwiza ushimishije， maze bakajyana ku isoko，bakabona amafaranga，kandi nabo bakabona ubunyobwa bwo kurya，bakabona imibereho myiza ishimishije.

Izi ni inkoko zororerwa mu kiraro kugira ngo zitange umusaruro mwiza gushimi. Izi nkoko zifite amabara atandukanye, izi nkoko kandi ni amasake gusa borora.

Aba bantu ni abaganga. Ni abaganga b'amatungo bita Abaveterineri, aba baganga bambaye amasarubeti y'icyatsi. Bambaye n'udupfukamunwa. Bari kuvura iyi nka ifite amabara y'umukara n'umweru.

Buno ni ubworozi. Ubu bworozi ni ubw'inkoko. Abantu bahorera inkoko nyinshi cyane. Izi nkoko iyo zigaburiwe neza zitanga umusaruro mwiza ushimishije.

Ubu n'ubworozi bw'ingurube, iyi ngurube imeze neza cyane yarakuze veterineri ari kuyisuzuma ngo arebe ko imeze neza.

Aborozi bajyana inka zabo kwa veterineri, maze veterineri akambara imyambaro yabugenewe akifashisha abo borozi, bakamufasha maze agatera inka imiti.

Aha ni ahantu barorera bahita mu kiraro, iki kiraro kirimo ubworozi bw'ingurube, izi ngurube ziri kumwe n'uyu muntu ari kuzoza ari kuzikorera amasuku ari no kuzitera imiti.

Ibi biribwa bituruka ku matungo babyita inyama. Izi nyama mbere y'uko abantu bazirya, muganga w'amatungo abanza yaza kuzisuzuma, ngo arebe ko nta kibazo cy'uburwayi ayo matungo yari afite.

Hano hantu harimo ikiraro kirimo ubworozi ubu bworozi babwita ubw'ingurube, iyi ngurube yabwaguye ibibwana byinshi cyane ingurube nyirayo ari kuyifasha kugira ngo yonse ibyana byayo.

Hano hantu hariho ubworozi bw'ingurube, iyi ngurube ibwagura ibyana byinshi cyane, ingurube iyo yitaweho neza, itanga umusaruro mwiza ushimishije.

Iyi ni inzu, iyi nzu icururizwamo ibicuruzwa by'imiti y'amatungo, muri iyi nzu harimo ibyapa byinshi bigaragaza ko ari inzu y'ubucuruzi bw'imiti y'amatungo, iyi nzu mu muryango wayo urafunguye.

Izi nkoko n'ebyiri zihagaze ku mutambiko w'igiti. Ni inkokokazi n'isake. Izi nkoko iyo zagaburiwe neza zikabona ibiryo bihagije, zitanga umusaruro mwiza ushimishije.

Hano muri iyi nzu ni kwa muganga. Aba ni abaganga b'amatungo bita abaveterineri. Iyo amatungo yarwaye bayazana hano muri bino bitaro, maze aba baganga b'amatungo bakayavura, bakayaha imiti iyakwiriye.

Hano, muri uyu murima, haziritsemo ihene. Izi hene, ziziritse, ni enye. Zose zifite amabara atandukanye. Izi hene, ntabwo ziri kurya ubwatsi. Hirya y’izi hene, hari ibiti.

Iyi inyoni bayita umusambi. Umusambi ni inyoni ikunda kwibera mu gishanga, ni inyoni nziza ishimisha abayibonye bose kandi ni inyoni ishobora no kuba yaba mu rugo rw'abantu.

Muri parike y'Akagera habamo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye. Habamo impala, imparage, impongo n'izindi nyamaswa nyinshi zitandukanye, zikurura abakerarugendo bakinjiza amadovize.

Iyi ni inyoni. Iyi nyoni yitwa ifundi. Ifundi ni inyoni ikunda gutoragura utunyampeke dutoya cyane, kuko na yo iba ari ntoya cyane.

iyi nyoni yitwa Nyirabarazana. Ni inyoni igira umunwa muremure, ikagira n'amaguru maremare. Iyi nyoni yikundiraga kwibera mu gishanga hafi y'inkombe z'amazi. Inyoni yitoragurira udusimba tugiye dutandukanye.

Inuma ni inyoni nziza zikunda amahoro cyane kubera ko iyo zibuze amahoro zirigurukira zikagenda.

Iyi ninyoni iyi nyoni bayita nyirabaraza, nyirabaraza zikundira kwibera mu bishanga, aho ziba ziri gutoragura, udusimba duto tunyuranye, nyirabaraza igira amaguru, maremare n'urunwa rurerure usongoye, nyirabaraza ntabwo yona.

Iyi nyoni bayita isande. Isande ni inyoni isakuza cyane, kandi ni inyoni yona cyane. Isande ifite amabara y'umuhondo, amabara y'umukara, n'amabara y'umutuku.

Iyi ni inyoni yitwa inuma, iyi numa iracyari akana gatoya cyane, inyoni yitwa inuma igira amahoro kuko ntabwo ikubagana, yirira impeke nizo itoragura.

Nyirabaraza ni nyoni yikundira kwibera mu gishanga. Kandi ni inyoni yikunda kwirira udusimba two mu gishanga kuko ntiyona nta mahane igira.

Inzoka ni inyamaswa itinywa cyane n'abantu . Ikunda kwibera ahantu hihishe ntabwo ikunda kuba ahantu habonetse aho ariho hose.

Inyoni ihagaze ku ishami ry'igiti bayita ikigona. Ikigona kigira amabara abiri, ibara ry'umukara n'ibara ry'umweru. Ikigona kandi kigira amaguru asa n'umukara n'inzara zisa n'umukara, kigira n'umunwa muremure w'umukara, kikagira n'amaso y'umukara, ikigona kandi ntabwo cyona.